Abaganga bambaye neza bambaye imyenda y'akazi bigaragarako babyigiye bambaye udupfukamunwa, imiti myiza, hehe no kuba warwara ukabura ibinini byo kwivuza! buri murwayi wese serivisi akeneye arayihabwa ku gihe kandi vuba.

Iibitaro byiza ,bimeze neza, biteye amarangi meza, jaride nziza, abaganga beza, bambaye neza, abapadiri baje gusura abarwayi bambaye neza, imodoka nziza, amatara meza, ameze neza.

Ibitaro byiza bimeze neza byubastwe neza, bisize amarangi meza, abaganga beza, bambaye neza iniforume zabugenewe. Umurwayi urwaye amaso bari kumuvura amaso, hari n'itara riri kubakongereza mu maso y'uwo murwayi kugira ngo babone uko bamuvura neza.

Indabo nziza, zimeze neza, zisa neza. Ni nziza, indabo iyo zabonye imvura zikura neza, zisa neza, indabo nibimwe mubintu bituma ahantu hagaragara nezaza cyane kubera uburyo ziteye.